Abasirikari n'abandi bantu bari guhingira ibigori, bamwe bari gushyiraho ifumbire, abandi bari kubyufira, abandi bagashyiraho imvaruganda, n'ibigori bitari byakura cyane bitari byazana ubusenzi.

icyayi umugabo ari gukoramo, yahetse ipombo, ari gucucira umuti, yambaye ga y'icyatsi, yambaye n'agapfukamunwa, yambaye n'imyenda y'umweru, icyayi kigiye giteye ku duterasi uduterasi, Ku dutabo.

Ipombo iri gucucira amazi ku nyanya, izo nyanya harimo izitari zatukura, uwo muntu afite impombo y'ipombo.

Abantu bari kugenda bari gukurura ifumbire barunze ahantu. Bamwe bari inyuma abandi bari imbere abandi barimo hagati. Iruhande rwabo hariho ibiti by'imivumu, imbere yaho gatoya hariho igikapu cy'umukara. Ni abagore n'abagabo.

Umufuka urimo ibigori ufunze iruhande rwawo harimo uwundi mufuka udafunze, inyuma hariho undi muremure usa n'igitaka.

Imifuka irimo imvaruganda ya dapu, igiye igerekeranye, igiye ipanze umufuka ku wundi, yanditseho dapu ibiro mirongo itanu, ifite amabara abiri icyatsi n'umweru.

Imifuka y'imvaruganda igiye igerekeranye, iyo mifuka isa n'umweru handitseho dapu, ifite amabara y'icyatsi iri mu nzu isakaje amabati y'umweru.

Ahantu bacuruza imiti. Imiti , igiye itandukanye . Ni farumasi irimo imiti . Buri kantu karimo imiti. Ni udupande dutatu tugiye dukurikiranye .

Ibigori biri kuzamuka. Muri ibyo bigori harimo abagabo bari gushyiraho imvaruganda babiri. Umwe yambaye ingofero na bote, undi w'iruhande rwe yambaye umupira w'umukara nta ngofero yambaye. Na we ari gushyiraho imvaruganda.

Umugabo uhetse ipombo ari gufuhira umuceri, ahagaze mu muceri, yambaye ingofero, afite ipombo mu ntoki, akaba ari gufuhira umuceri, hakurya hari agasozi akantu kameze nk'agasozi, hepfo y'aho hariho undi muceri.

Umugore uri mu murima ari gucucira umuti ahetse ipombo, arigutera umuti imbuto ahetse ipombo isa nk'umuhondo, hakurya ye hariyo amazu yambaye imyenda y'umuhondo.

Umugabo ahagaze mo hagati yinyanya, ni umurima uteye inyanya ari kuzicucira umuti. Ni inyanya zitangiye kuzana urupfundiko. Uyu mugabo yambaye imyenda y'ubururu.

Agapombo bifashisha bafuhira imbuto. ni agapombo baragafata bagashyiramo umuti, bakagenda bafuhira mu bigori, mu bishyimbo, mu binyomoro no mu nsenda.

Umurima uteyemo ibigori, ni ibigori biri kuva mu butaka, ni bwo biri kuzamukana. Bisa n'icyatsi, umuntu ari kubiha itaka. Iruhande rwa byo ni itaka byo bikaba birimo hagati y'iryo taka.

Abagabo benshi, harimo abapolisi n'abasirikare, bari gutera, bari gushyira imvaruganda ku bigori. Ibyo bigori niho biri kuzana, biri gutangira kuzamuka, ni abantu benshi.

Abagabo bari gutoragura ibirayi, bagiye bakura bakabita mu itaka, bari gushira mu gapaniye hari n' ibindi biri hasi, hari uri kubishyira mu mufuka n' abahinzi b' ibirayi. Inyuma yabo hariho ibirayi batari bakura.

Umugabo yambaye bote ari gucucira amashu umuti, ahetse ipombo yambaye ingofero, yambaye ikabutura yigice n'umupira wayo, yambaye bote z'umukara ari kugenda acucira buri shu umurongo ku wundi.

Ipombo ya kizungu ni ipombo icucira amazi. Iri gucucira umuceri, iri gucucira umuti mu muceri. Uyu muceri, nta bwo wari wayanga. Ni umuceri ukiri mutoya.

Igiti cya voka nibwo kiri kuzamuka. Ikiganza kiriho amazi bari kukivomerera kugira ngo gikure. Bafite ubutaka, kiri mu butaka bwinshi, ubwo butaka burasasiye, ako gati gafite udushami tubiri.

Amashitingi agiye akurikiranye, barayafashe bayashyiramo itaka bagenda bashyiramo n'imbuto, arasakaye buri shitingi bayiteramo imbuto yayo.

Akamashini kari gucucira ku mbuto. Ni ipombo iri gucucira umuti, n'ukuboko gufite ipombo kuri kugenda gucucira umuti ku myumbati no ku mbuto.

Umugabo afite ipombo arigucyucyira mu cyayi, arigucyucyira buri cyayi aho giteye.

Ibyatsi barunda ahantu hamwe bagashyiraho itaka, bagashyiramo amazi. Hari abantu bari gufata imyanda bakayirunda ahantu hamwe, imbere hariho ikiduki cy'ubururu, hariho umugore uri kuyobora ku gitiyo, hirya hariho ibyatsi byinshi birunze bazakoramo ifumbire.

Umunzani uhagaze, uteretse iruhande rw'agatete karimo amafi, amafi ateretse ku mbaho zigiye zikurikiranye. Ni amafi menshi, amwe ari kuvamo andi araryamye.

Ikivu, ikivu, uruzi rufite ikirwa mu nkengero ,ku nkengero hariho umwana ufite igiti, hakurya y'uruzi hariho amazu n'ibiti by'intusi.

Isahani iriho inyama zidatetse. Iruhande rwazo hariho ironji risatuye. Irindi ronji riri kuri izo nyama. Hirya hariho ikirahuri, imbere yaho gato hariho agatandaro bakoresha bakamura ibitoki benze.

Abantu bari mu bwato. Ubwo bwato burimo abantu babiri. Iruhande rwabwo hariho ibyatsi, bafashe imigozi bazirika ku bindi bintu bari mu mazi.

Ibizenga bororeramo amafi, birimo n'ibiraro by'inkwavu n'inkoko. Iruhande rwabyo hakikijwe ibiti byinshi cyane, buri cyuzi gifite ibiraro mu cyuzi.

Amafi arambitse ahantu yose arareshya, bayasize ahantu harambuye hasa n'umweru. Amafi afite amababa n'imiririzo, asa n'ayapfuye.

Ikirwa kiri mu ruzi, gituyemo abantu, muri icyo kirwa ku nkengero hariho ubwato. Hakurya y'uruzi hariho abantu bahatuye.

Ubwato buri ku nkombe z'uruzi impande yabwo hariho abantu, imbere yabwo hariho uruzi impande yabo bantu hariho amabuye n'ibyatsi hakurya yabo hariho udusozi.

Ubutaka buri hagati mu mazi ni ubutaka butuweho n’abantu, hakurya hariyo iyindi misozi ituweho n’abantu, ayo mazi arimo hagati y’ubwo butaka.

Ifi iri ku isahani, iruhande rwa yo hariho ironji risatuye. Igice kimwe kiri kureba hejuru, ikindi kirubitse. Ifi bagiye bayikatagura, iri ku isahani isa n'umweru n'ubururu.

Isahani iriho ifi, ifi irimo hagati y'imbuto iruhande rwazo hariho amaronji, ifiriti y'ibirayi n'inyanya. Hasi hateretse ironji basatuye, hakaba hariho n'urunyanya basatuye, urundi ntabwo barusatuye.

Ifi iri ku isahani igiye ikataguye. Ni amafi abiri ari ku isahani yahiye. Iruhande rwayo hariho urunyanya rusatuye, hakaba hariho n'intoryi bahase.

Amafi ari mu dutete twayo, aryamyemo . Bagiye bapakinga utwo dutete twayo basa n'aho bagiye kuyakawusha . Imbere yayo hariho andi . N'inyuma hari andi.

Ubwato buri mu Kivu. Ubwo bwato burimo abantu babutwara bafite umufuka, harimo ibintu bahinzemo. hakurya y'Ikivu hariho ishyamba riteyemo ibiti.

Amafi bayashyize ku isahani yapfuye , ariko ntabwo bayatetse. Iyo sahani, ifite amabara abiri . Ubururu n'umweru . Arimo kureba, ariko yapfuye. Anarasamye , afite amabara abiri ,umukara n' u......

Amahera ari mu gatandakazo bari kuyashyira mu ndobo irimo n'amazi , iyo ndobo iteretse kumbaho hasi ayo mahera yirundanyije ahantu hamwe.

Amafi abiri ari mu gasahani kayo, ubwo bari gucuciraho umunyu. Ifi imwe iryamye ireba ruguru, indi iryamye ireba hepfo. Ziryamye zicurikiranye.

Ibiryo biri mu isorori, harimo isosi isa n'umutuku, harimo inyama, umuceri, n'ibitunguru n'imboga. Iyi sorori ifite n'ibara ry'umweru, ikagira n'imikondo bafataho.

Amafi amanitse hejuru ku duti ku biti, mukanwa kayo harimo utugozi, akaba ari kwerera.

Bagiye bakata bakazishyira ku isahani zigiye zikataguyemo ibice byinshi bazishyize ku isahani ni inyama zitukura.

Ubwato buri mu ruzi, ubwato abantu baburimo, hakurya ku nkengero, hariho umuntu ukozamo igiti. Ubu bwato bugiye butondekanya. Mo ndani hariho aho bateyemo umuceri. Hakurya harimo ikivu cy'amazi

Ibirayi bihinze mu murima, bigiye bihinze ku murongo ku wundi. Buri kirayi gihinze mu irundano rya cyo. Inyuma y'ibyo birarayi, nyuma y'uwo muririma, hariho inzu ifite igipangu gifite inzugi zisa n'umutuku. Hakaba harimo n'insina.

Umurima uteyemo amajeri, ayo majeri ni intonore. Inyuma y'uwo murima hariho amazu agiye atondekanye, hariho n'amashyamba. Imbere y'ayo majeri hariho ibyatsi.

Insina, insina ziteye mu murima bazishyigikije ibiti, zannye ibitoki. Inyuma y'izi nsina hariho udutsina dutoya. Ibiti byaraziteze.

Indabo ziri mu murima zifite uturabo dusa n'umweru n'umutuku, zigiye zitondekanya zose zifite uturabo hejuru, ziteye mu murima ni umurima utewe n'indabo gusa.

Insina enye zigiye zitondekanya imbere hariho insina ntoya, inyuma y'izo nsina ntoya hari insina zifite igitoki, icyo gitoki kirimo inkingi ebyiri hariho n'ibirere byumye, hakurya hariho izindi nsina.

Umurima uteyemo ibirayi, ibyo birayi bigiye biteye mu ntambwe zitandukanye, bifite uruyange rusa n'umutuku. Inyuma hariho ibigori byumye, ku ruhande hariho ishyamba ry'ibiti.

Umurima uteye amashu agiye atandukanye, agiye ateye mu mitabo igiye itandukanye, ayo mashu nabwo yari yera avanze n'ibyatsi.

Imboga zifite amababi y'umutuku zikagira n'igititigiri cy'umutuku. Muri izo mboga hateyemo insina, izo nsina ziri inyuma y'izo mboga. Ruguru gatoya inyuma gato, hariho ipoto y'amashanyarazi.

Ibiti biteye mu murima. Ni ibiti bya geveriya bigiye bicuciranye. Inyuma yabyo hariho ibindi biti. Ibiti bikiri bitoya nta bwo byari byakura.

Imboga zisa numutuku zifite ibititigirituku zikagiratwerezwa umutuku inyuma hariho insina hirya hariho ifoto izi mboga zifite amababi gasa niicyatsi ariko harimo n'agasa n'umutuku.

Ibiti by'intusi biteye mu murima bigiye bigerekeranye, harimo ibiti birebire, harimo ibiti bitoya, harimo intusi zisa n'umweru, hirya yaho hariho uduti dutoya duteye mu gitari.

Umurima basaruyemo ibigori, batemye ibyo bigori, barabisaruye barangije batema ibititigiri byabyo. Inyuma hirya y'aho hariho akazu, ni uruhunikiro bashyiramo ibyo bigori, rurasakaye ruranakinze.

Igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, hejuru hariho isima, inyuma mo ndani, mo imbere harimo ikiraro, inzu yubakishijwe amabati, inyuma ya ho hariho ikindi gihande cyubakishijwe amatafari.

Imirima irimo imitabo, umurima uhinzwemo ibirayi, hirya harimo inka ifite amabara abiri, iyi mirima harimo ibigori byumye kera ibyo bita ibikenyeri, hirya y'aho hariho ibindi bikenyeri byumye batemye barabyegeka.

Mu nzira harimo abana, abantu bashoreye inka, bavuye kuzigura, bari kugenda mu nzira, hijya hariho udutabo turimo ibigori batemye bakaturambika hasi, hepfo yabo harimo umurima urimo ibyatsi, hari imbere...

Umurima uteyemo amateke. Ayo mateke afite amababi agandaye. Hirya harimo amashyamba.

Umuhanda urimo abantu bari kugenda, hepfo yaho hariho agahuru k'ishyamba n'ibyatsi bikiri bito. Ni abantu bikoreye agafuka, abagore n'abagabo. Umugore ufite isuka, hakurya hariho amashuri. Iruhande rwabo hariho ikivumu.

Inzuzi ziri ku butaka zigenda zirandaranda. Izo nzuzi hateyemo ibigori ariko barabisaruye. Hirya y'izo nzuzi hariho ipoto, inyuma y'iyo poto hariho agahuru k'ishyamba. Izo nzuzi ziri gutera zifite uturabo dusa n'umutuku.

Umwembe uri mu butaka. Ubwo butaka buriho ibyatsi. ukikijwe n'ibyatsi byinshi, umwembe uteye mu butaka.

Ibigori basaruyeho, ibigorigori basaruyeho ibigori byumye, ibyo ibigorigori byumye, nta bigori bihari. bimwe birahagaze, ibindi birarambitse.

Umurima urimo amababi y'ikivumu yagiye agwamo akuma, uno murima urimo n'ibyatsi biri kumera, hirya hariho inzira irimo kunyuramo abantu, impande y'iyo nzira hariho igiti kinini cy'ikivumu, hirya y'aho hariho amashuri y'abanyeshuri.

Ikidodoki giteye ku butaka cyarazamutse gifata hejuru ku ruzitiro , urwo ruzitiro ruriho ibiko hariho insina , icyo kidodoki cyaragiye kiraranda kuri urwo ruzitiro.

Umurima urimo ibyatsi byinshi, harimo amajeri yumye. Ayo majeri, inyuma yayo hariho ibiti by’intusi birebire, izo ntusi harimo intusi iz’umweru.

Umurima basaruye ibigori. Batemyemo ibigorigori hirya harimo ibigori byumye. Umurima uhinzemo imitabo urimo n'ibyatsi. Hirya harimo insina n'ibiti n'amazu.

Insina ziteye mu gitsina kimwe, igiko kiri imbere yazo na cyo gifite amashami agandaye, inyuma y'insina harimo home, inzu n'uruzitiro rw'ibiti.

Mu nzira hari kugendamo umugore yikoreye, udukwi hepfo ye ku kaboko k'iburyo hariho ahantu basaruye ibigori hasigaramo ibigorigori byumye, hepfo ye ku kaboko k'ibumoso hari ahantu bahinze karoti inyuma ye kure hariho ibiti n'ibigorigori bihagaze mu murima.

Ibiti birebire biteye mu murima ni ibiti by'intusi ifite uburebure, hirya hariho ibindi biti bifite uburebure, imbere hariho umurima uhinzwemo imitabo.

Umurima uteye ibishyimbo ugatera n'ibitunguru, ibi bitunguru ntibirakura, ni umurima munini cyane ufite imitabo miremire, hirya y'imitabo hakikijwe ibiti.

Ibigori batemye biri hasi biruma, biri mu muririma uwo murima ufite imitabo igiye ikurikiranye, hirya y'aho, hariho ibindi bigori bihagaze byumye, inyuma yibyo bigori hariho ibiti birebire.

Umurima uhinzemo ugiye uhinzemo imitabo ,umutabo ku wundi, hirya y'iyo mitabo harimo amabuye arunzemo ,hirya hariho umurima urimo ibigorigori uteyeho n'ibiti by'ishyamba.

Umurima urimo ibigori basaruye barangije batema ibigori n'ibyatsi hasigara ibisigati none byarumye, uyu muririma urimo ibyatsi bivanze n'imisigati yumye hirya hariho ibiti by'intusi birebire.

Ibiti bya avoka biteye, bigiye bikurikiranye ku murongo inyuma yabyo hari ibyatsi nibwo biri kuzamuka biracyari bito.

Umukobwa uri kugenda mu nzira yikoreye ikidomoro apfundikije akaryo, apfundikije urutoki. Inyuma ye hariho ishyamba, ibiti birebire, hariho n'inzu isakaje amategura, ari kugenda mu nzira itari umuhanda.

Ibigori batemye bikaba byarumye, hirya hariyo ibigori byumye bihagaze iruhande hariho abantu babiri hasi harimo ibyatsi.

Ikiyaga impande yacyo hariho ibyatsi, hakurya yaho hariho ibiti, hakurya yaho hari hatuye amazu arimo, hakurya yaho hariho inseke.

Amababi y' igiko ari hasi yarumye, hirya hariho umurima w' ibinyomoro. Ibinyomoro bigiye biteye ku mpande no ku mpande, bigiye bikurikiranye.

Ibigori biteye ku murongo bigiye bikurikiranye, iruhande inyuma yabyo hariho ishyamba ry'ibiti. Ibigori bihetse biri kurabya ubusamvu.

Ahantu basaruye ibigori amababi y'ibigori yaguye hasi aruma, ibindi bigori ntibarabisarura byarumye. Hirya y'aho hariho igiti kizamuye gishinze, hariho n'ibindi biti biri kumera bimeze nka gashe.

Ibishyimbo babisutse ku ihema barabyanika, impande yabyo hariho abantu bafite imifuka irimo ibishyimbo, babyanitse mu kibara cy'ibyatsi.

Imboga za shufureri ziteye mu murima, hirya hariho ibiti by'ishyamba, iruhande rwabyo hariho ibyatsi. Uru ruboga ruteye mu murima.

Ibitoki bihagaze imbere y' abantu, abantu nabo bari kugura ibitoki, inyuma yabo hariho urujyanuruza, bose barimo guhaha imbuto, ibitoki; abagore n' abagabo bose bari guhaha.

Amaronji atondekanye asa n'umutuku ateretse hasi , harimo ironji batonoye ntibarirangiza. Hari andi aciye . Mo hagati , harimo ironji rifite akababi . Hasi y'ayo maronji , hariho akandi kababi kari hasi .

Imifuka y'ibirayi irimo ibirayi, iyo mifuka yose yuzuyemo ibirayi. Ni imifuka igiye itondekanye, iyo mifuka yose iruzuye ipakinzemo ibirayi, isa n'umweru ifite utugozi hejuru two guhambiza.

Imyembe igerekeranye irunzwe ahantu hamwe, harimo itukuje, harimo n' idatukuje; iyi myembe inyuma yayo hariho iteze neza, ifite ibara ry' umutuku niry' umuhondo.

Urunyanya rufite inyanya, hariho izisa n'icyatsi, n'izindi ziri gutukura. Urwo runyanya rufite n'amababi, hirya yaho hariho izindi nyanya.

Igitsina giteyemo insina, insina eshanu harimo insina ndende, n'insina ngufi imwe irimo inyenge. Izo nsina inyuma hariho inzu yubakishije ibiti, iruhande rwayo hariho amakoro akikijweho ibidodoki.

Abantu bari mu mirima, iyo mirima ni imitabo miremire buri muntu ari mu mutabo we bari kubagarira icyayi, inyuma yabo bantu bunamye hariho abandi bahagaze, hagati y'umutabo harimo intera.

Umugore afashe ku ngurube ari kuyiha ibyo kurya mu kidomora anayifasheho, iyo ngurube iri mu kiraro. We yambaye amarinete, amadarubindi ,yambaye na bote z'umukara. Icyo kiraro gisakaje amabati, cyubakishije n'ibiti.

Umugabo uri gucucira amazi ibigori biri imbere ye. Yambaye amarinete, yambaye igisarubeti cy'ubururu. Ibigori biri imbere ye bigiye bitondekanya umurongo ku wundi. Hirya hari abantu, umwe ari gusunika imashini abandi bari imbere ye, inyuma hari umuntu wambaye ishati y'umweru.

Amateke arunze ahantu hanwe. Ni amateke ya bwayisi afite mu nda hafite utuzi tugiye gusa umutuku, arunze ahantu hamwe afite ibishishwa, mu nda harimo umweru n'umukara.

Avoka ziri mu gitete cyayo bazisize mu gitete bazirebesha hejuru, baziciye zisa n'icyatsi, hirya y'aho hariho amakarito, hirya y'aho hariho akandi kantu gasa n'umutuku.

Igitoki gihagaze bahagarikishije inkingi z'ibiti, inyuma yacyo hariho umudaso uri kugenda, iruhande rwacyo hariho ibyatsi eee.

Igiti cya pome gifite imbuto, gifite n'amababi agiye ahekeranye n'imbuto. Izi mbuto za pome zifite ibara risa n'icyatsi. Ifite amababi agandaye, ikagira n'udushami tugiye dushamikiranyije.

Amajeri ari mu isafuriya, isafuriya iteretse hasi harimo amajeri asa n'icyatsi. Harimo agiye gusa n'umuhondo, iyi safuriya isa n'umweru mu nda, inyuma isa n'umukara.

Ibitoki bihagaze hejuru y'ibindi bitoki bitangije ibiti. Inyuma yabyo hariho udutoki duhiye . Iruhande hariho inanasi n'ibiti biri inyuma yabyo.

Uruyuzi rwatewe rukaba rufite agateja, hirya hariho urundi ruyuzi rufite uturabo dusa n'umutuku, uruyuzi rufite agahaza, akarabo gasa n'akagiye kugwa hasi.

Isahani iriho inyama. Izo nyama zipfundikijwe n'akandi gasahani. Hirya hariho rushe irimo inyama na ho. Hirya hariho isafuriya irimo isosi, na rushe yazo. Ku ruhande rukurikiyeho, hariho inyama, ku rundi hariho inyanya zitukura.

Igitsina cy'insina giteyemo ibitoki, harimo insina nyinshi zifite ibitoki, insina irimo ifite igitoki, ifite n'inkingi hejuru, inyuma y'izo nsina hariho inzu yubakishije ibiti, iruhande rw'izo nsina hariho uruzitiro rw'amabuye n'ibidodoki.

Intama ifite ibyoya byinshi, yambaye ibyoya ihagaze mu kibara cy'ibyatsi. Iri kureba imbere isa n'umweru.

Avoka ziri ku meza, izo avoka hariho izisatuye, hariho imwe irimo ikibuto, zisa n'umuhondo, iruhande hariho icyuma.

Abantu bari mu murima w'intoryi, bari kuzikuraho amababi, bambaye udupfukamuwa, bari kugenda bazitotoraho amababi. Izo ntoryi zifite amababi agandaye.

Ibigori biteye bigiye bicukiranye biri kumya ubusenzi, biri kugenda bikurikiranye umurongo ku wundi.

Indimu bazishyize ahantu hamwe, ni indimu eshatu, hasi hariho indimu ebyiri, hejuru hariho indi ndimu, zifite amabara y’icyatsi gusa, zigiye zihekeranye, imwe iri kureba indi, zigiye ziheneranye.

Ibigori bitari byaheka. Ni umuririma bateyemo ibigori. Harimo abantu bari kugenda bari gushyiraho imvaruganda. Inyuma yabo hariho abandi na bo bari kugenda bari gushyiraho imvaruganda. Hakurya hariho igitari kirimo ibiti birebire by'amashyamba.

Abantu bari mu muririma bari guca amashu, bafite ibyuma abandi bari guhinga, hari abari kuyakoraho abandi b'inyuma bari kuyahingira , n'abagore ,n'umugabo umwe. Inyuma yabo hariho urutoki n'ibiti.

Abantu bari mu gishanga, bari kugenda bambaye amajire, bari kwerekana igishanga, harimo abamama batatu, harimo n'abagabo batatu, aba bamama bambaye amajire asa n'igitaka, imbere y'aho hariho ibyatsi.

Ibirayi biri mu mufuka, hejuru bagiye babifunga n'utugozi. Ni ibirayi byuzuye hejuru biri mu mifuka igiye ikurikiranye. Iyo mifuka ifite amabara y'umutuku n'umweru, hariho abantu bakoze kuri iyo mifuka.

Umurima w'icyayi, umugabo ari muri icyo cyayi ari kugenda agica ahetse igitebo ari kugenda aca icyayi akijugunya inyuma mu gatebo, yambaye isurubeti y'umuhondo hirya mu murima ufite udutabo.

Karoti zigiye zigerekeranye, izo karoti ziri mu biti bagiye bashinga, bashinze ibiti bagenda barundaho karoti ku murongo, umurongo ku wundi.

Ibirayi birunze mu murima bigiye bigerekeranye. Bifite amanogo y'umutuku. Birunze mu butaka, ikirayi kimwe kigiye kigerekeranye n'ikindi. Bikaba ari ibirayi byinshi.

Igisheke gihagaze gisa n'umutuku gifite ibibabi byumye, inyuma y'aho hariho udusheke dutoya ibindi ni binini cyane, inyuma y'aho hariho amatandi n'iyo ndikubona.

Umugabo ari gukeba icyayi, ahetse igitebo inyuma ye mu mugongo, yambaye ikoti risa n'umutuku, yambaye ingofero isa n'ubururu. Imbere ye hariho akana. Ari kugenda mu cyayi, icyo cyayi gisa n'icyatsi.

Umwumbati uteye, ufite amababi amababi agiye ashamakiranye agandaye. Inyuma hariho ibyatsi n'ibiti, iruhande rwabyo hariho ibyatsi, imbere na ho hariho ibyatsi. Ni umwumbati utari wakura uri gutangira gukura.

Ibijumba bigiye bigerekeranye, ni ibijumba harimo ibisa n'umutuku, harimo n'ibigiye gusa n'umukara. Ibijumba binini harimo ibibyibushye n'ibitabyibushye babirunze ahantu hamwe barabisheshanya biraringaniye.

Umurima w'amatunda, uteyemo amatunda. Buri tunda rifite agati agenda arazamukiraho. Aya matunda harimo asa n'umutuku. Harimo n'igiti. Afite imigozi igiye izamutse itambikiraho.

Ibigori biri kuzamuka bari kubishiraho ifumbire harimo umugabo wambaye umupira w'icyatsi, bote z'umukara inyuma ye hariho abandi bantu bamukurikiye, hakurya hariho ibiti, ibigori bifite amababi y'icyatsi.

Igiti cy'imyumbati gifite imyumbati ishamitse hasi ,hejuru y'ubutaka bayikuye, bayirambika hejuru y'ubutaka ,hirya yacyo hariho iyindi ,indi myumbati irambitse impande yayo.

Umugabo afite igihaza kinini, inyuma ye hariho ibigori bine byumye amababi ibindi bikiri bibisi, akaba agifashe ku mutwe no kukibuno, yambaye ishati y'umweru. inyuma y'ibyo bigori hariho ishyamba ry'ibiti, akaba....

Isoko ririmo imbuto nyinshi imbere hariho intoryi n'inyanya na karoti inyanya zimwe zirunze ku gafuka izindi ziri mu kabasi, inyuma yazo hariho amaronji, imyembe, imineke hakaba hariho puwavuro n'ibitunguru.

Imyumbati iteye mu murima, igiye ikurikiranye, iracyari mitoya, ifite amababi agandaye, ni imyumbati myinshi,..

Abagabo babiri bafite igiti cy'imyumbati, umwe afite igiti n'imyumbati, undi afite imyumbati bavuye kuyikura, inyuma yabo hariho ibyatsi byinshi cyane, uwambaye ikoti ry'umukara ari guseka.

Indimu ziteye mu murima ari nyinshi. Ni ibiti byinshi bigiye bikurikiranye. Bifite imbuto z'indimu n'iz'amaronji. Zigiye ziteye,..

Ibishyimbo bifite imiteja. Bifite n'amababi birateye imeteja itari yera. Bifite amababi agandaye, bigiye biteye ku murongo ukurikiranye.

Amateke ateye ku butaka, ateye mu gatumo kamwe, ako gatumo karimo amateke menshi, imbere yayo mateke hariho utwatsi, ayo mateke afite amababi agandaye cyane, inyuma hariho ishyamba ry'ibiti.

Inka y'imbyeyi iri mu kiraro, ifite amabara abiri. Iry'umukara n'iry'umweru, iri mo hagati, kuruhande hariho ibiti, n'iyindi nka ifite ibara ry'umukara.

Amapera ari hejuru y'andi mapera, amwe arasatuye andi ntabwo asatuye, hariho afite amababi, bayaciye bayarunda ahantu hamwe, ayo mapera afite imbuto mu nda zigiye gusa n'umutuku.

Ibirayi biri mu mifuka ya kiro ijana, ni imifuka igiye ikurikiranye, umufuka ku wundi, bayifungishije utugozi hejuru. Inyuma y'iyo mifuka hariho umuntu wambaye ishati y'umutuku, hirya y'iyo mifuka hariho abandi bamba.., bantu be...

Abantu bari mu murima bafite kokombure. Buri muntu afite kokombure. Imbere yabo hariho iyindi kokombure. bose bicaye mu byatsi. inyuma yabo n'imbere yabo, hose hakikijwe ibyatsi.

Ipapayi rihagaze rifite amapapayi atukuye n'ayadatukuye, riteye hasi mu butaka, risasije ibyatsi, rifite amababi agandaye hirya no hino, rifite amapapayi menshi.

Umugabo uri gucucira indabo afite inkoni, afite n' ipombo iri kuvana amazi mu mugezi. Iri gucucira indabo iruhande rwe hariho insina, inyuma hariho n' insina n' ishyamba.

Ibijumba bigiye bigerekeranye hasi hari ibijumba bitukura bisa n'umutuku , hejuru hari ibijumba bifite amabara menshi hirya y'aho hariho amateke , harimo n'igiti kizamuye hejuru, bakaba babisutse hasi.

Moto iparitse iruhande rw'abantu inyuma hariho umuntu, I ruhande rwuwo muntu hariho imodoka ipakiye ibitoki n'ibindi bintu biri mu mufuka hejuru harimo umuntu uri gukuramo igitoki.

Umuntu uri kubagara ibirayi, ari kugenda abikorakora, abiha itaka ni ibirayi bigiye biteye ku murongo. Hakurya ye hariho agasozi gaciyemo imikatikati.

Abantu bari gukura ibijumba bari kugenda babirundarunda ku murongo buri mufungo buri mufungo. Ni abantu bari kubikura ni benshi bari kugenda bafunga ku murongo ku murongo nyuma yaho hariho ibiti birebire.

Imyumbati irunze ahantu hamwe. Iyi myumbati bayogeje bayishyira ahantu hamwe. Ni imyumbati miremire, ifite ibara ry'umweru mu nda. Bayikuye bayirambika ahantu, bagiye barayikoboraho.

Inyanya ziri mu murima, harimo umugabo uri kuzaha ufite agatete ari gushyiramo. Izo nyanya zifite izisa n'umutuku izindi zifite izisa n'icyatsi. inyuma ye harimo undi muntu uri kwaha inyanya.

Umuntu yicaye imbere y'imbuto. Izo mbuto harimo amaronji, indimu, imyembe, hirya hariho beterave n'indimu, afite umufuka urimo n'imbuto, yambaye umupira w'umutuku, ari kureba hirya.

Amapera bagiye basatura muraya mapera harimo asatuye nadasatuye, muri aya mapera harimo imbuto zisa n'umutuku mu nda.

Ishyamba ry'ibiti riri imbere y'inzu, iyo nzu iri inyuma y'ishyamba, n'inzu bari gusakara, inyuma y'iryo shyamba hari n'ibindi biti bya geveriya n'ishyamba riteye mu murima.

Amashu ari mu murima ateye akurikiranye, amashu ni imboga agiye akurikiranye afite amababi afite na mauza yicatsi ayo mashu yagiye gukurikiranye.

Umurima uteyemo inzuzi n'amateke, ubwo harimo, umurima ufite inzuzi zigiye zararanze ku butaka, zikaranda mo hagati y'amateke.

Abantu bari mu murima bari gukura ibirayi, bari kubifata bakabishyira mu mufuka harimo abagore n'umugabo umwe, inyuma y'abo bagore hariho ibigori n'ibishyimbo.

Ibijumba bigiye bitondekanye ikijumba ku kindi, ni ibijumba bisororotse bisa n'umutuku babisutse ahantu hamwe. Harimo ibibyibushye n'ibitabyibushye, bifite amaso y'umutuku.

Umugore yikoreye umufuka urimo ibifumbire. Yambaye umupira w'umweru, yambaye n'isurubeti ari kugenda. Inyuma ye hariyo umugabo wifashe mu mutwe afite n'inkoni. Hirya harimo ibyatsi.

Ameza ariho amashu, amashu agiye agerekeranye iruhande rwaho hariho ayandi abiri, hasi hariho agapaniye, hirya hariho ibindi bimeza, hirya hariho umukobwa wambaye ikanzu.

Umugabo uri imbere, uri mu murima, inyuma ye hariho amatunda agiye yambukiranyije, inyuma ye hariho ayandi matunda, y'ibitushi ntabwo yari yera. Agiye yambukirana, ayandi akagenda...

Ibigori biri mu murima bigiye bicukiranye, ni ibigori bitari byaheka bimaze kuzana ubusepfu. Uyu murima munini hirya yawo hariho indi mirima, ni ikigori kigiye giteye ku kindi biri gutangira guheka.

Udukamara turi ku ntara, iyo ntara iri hejuru y'ibase ni uduseri tugiye dukurikiranye. Inyuma yaho hariho umuntu wicaye ari kugaragaza ibirenge, hirya hariho indi ntara iriho inyanya.

Ibirayi, ibirayi biri mu butaka bakuye babishyize hejuru biri kumwe n'ibijumba byabyo biri hejuru y'ubutaka, bikaba biri kumwe n'ubutaka bwabyo babikuye babishyira hejuru.

Umugabo ari mu cyayi afite akamashini gakata icyayi ahetse igitebo, icyo gitebo n'icyo ashyiramo icyayi ari ku ari kugenda ari gukata, yambaye ipantaro y'umukara, ako kamashini gafite amazi yo gufataho iyo...

Ibigori byumye biri mu murima bigiye bitandukanye. Ikigori kimwe cyagiye giheka bibiri, ni ibigori byumiye mu bihu. Iruhande rwabyo hariho utwatsi dukeya ,ibigori bifite amababi mabisi asa n'icyatsi.

Abantu bari mu murima w'ibigori, bahetse amapombo bari gucucira umuti, bari gutera ibigori umuti. Inyuma bari gusigayo ibigori, ibigori ntabwo byari byakura, imbere hariho uruzi.

Amajeri arunze ahantu hamwe, ni menshi asa n'umweru. atari umweru cyane. Arunze muri kare, afite utuntu tw'utuzi.

Umurima uteyemo ibigori bari kubibagara, bari kubihingira. Biteye mu ntambwe, intambwe ku yindi. ni ibigori bikiri bitoya bikizamuka. Bagiye babihingira bakagenda basigamo ibyatsi.

Abagabo babiri bahagaze mu kibara, umugabo umwe afite ibase harimo umufuka n'agakoni, ari kwereka uwo w'iruhande rwe muri telefone, inyuma yaho hariho amashyamba.

Ibijumba birunze ahantu hamwe, harimo ibijumba bisa n'umutuku bifite uburebure, harimo n'ibindi bisa n'umweru, na byo bifite uburebure, babisutse ahantu hamwe byose biragerekeranye.

Ibigori birunze hasi, ibyo bigori bisutse hasi, hejuru yabyo hariho imifuka ihambiriye iri hejuru yabyo, hari uwundi mufuka uhagaze ufite amabara, ibara ry'umweru n'iry'umutuku.

Ahantu basutse imbuto. Basutseho imiteja, pwavuro, ibirayi, babisutse hasi bari kubigurisha. Basutse hasi ku ihema. Pwavuro zisa n'icyatsi, hariho ibijumba, imiteja, ibishyimbo n'ibirayi.

Umugabo uri mu murima ari gusoroma ikawa yambaye agapfukamunwa k'ubururu, akaboko ke kari kugenda gasoroma ikawa. Ikawa iri mu murima ireze ifite imbuto zisa n'icyatsi.

Imifuka irimo ibirayi, iruhande rwayo hariho umuntu wicaye ku mufuka, usa n'utegereje abakiriya. Imifuka igiye ikurikiranye uko ari irindwi. Inyuma yiyo mifuka irindwi hariho imifuka itanu.

Umugabo ari mu nyanya ari gusoroma inyanya. Inyanya ziri inyuma ye hariho izitukuye n'izidatukuye, ari kwerekana urunyanya rutukuye yambaye agapfukamunwa gasa n'umutuku, yambaye imyenda isa n'icyatsi.

Umugore uri mu ibigori bitangiye guterera, ari kureba imbere iruhande rwe harimo ibigori n'inyuma harimo ibindi. Yambaye ibitenge yiteze n'ikindi.

Ibisheke bihagaze, bihagaritse ku nzu. Hariho uri kubigura n'uri kubigurisha, babiri basa nk'abari kubigura, umwe niwe uri kubigurisha. Hari umugore uhetse umwana, hirya y'ibyo bisheke hariho akazu bacururizamo amayinite.

Inkwavu eshatu zikurikiranye ziri mu kibuti ,izo nkwavu urwa mbere rufite amabara abiri iry'umweru n'iry'umukara, urwa kabiri rufite ibara rimwe ry'umweru, urwa gatatu rufite amabara abiri, umukara n'umweru

Umugore uri mu nyanya ari kuzaha, zimwe ziratukuye inyuma ye imbere ye hariho igitebo ari kuzishyiramo, inyuma ye hari izindi ziteye, harimo izitukuye n'izidatukuye z'ibitushi.

Imineke igerekeranye iri mu kantu kameze nk'akavure, ni ibiseri bigiye bigerekeranye. Ni ibiseri bine bikaba biri mu kantu kameze nk'agatebo.

Imineke igiye ikurikiranye, ni ibiseri by'imineke bigiye bihekeranye. Iyi mineke hariho ihiye n'idahiye, iyi mineke ni imineke miremire ya mbogoya.

Intama ziri mu isoko, inyuma yazo hariho urujya n'uruza rw'abantu. Ni abantu baje kugura harimo ihene n'intama.

Puwavuro zirunze ahantu hamwe imitavro zisa n'umutuku zifite inkondo zisa n'ictsipavro iri imbere bayisatuyeho izindi pavro zirabumbye zigiye ziheneranye.

Umufuka uzinze urimo ibigori, bawusize hejuru y'undi usashe hasi, hirya yawo hariho uwundi usa n'umweru, uwo mufuka usa n'icyatsi, harimo n'umutuku basizemo ibigori,

Umugabo ari mu nyanya afashe ku nyanya zitari zera inyuma ye hariho izindi zisa n'umutuku, izi nyanya ni inyanya bashingiriye yambaye ga z'icyatsi inyuma ye hariho n'ibiti bishingiye izo nyanya.

Igitoki gihagaze ku nzu ,ni igitoki gifite amabere maremare kegamiye ku nzu, iyo nzu ifite amatafari asa n'umutuku ifite n'idirishya, iki gitoki gifite igitumbatumba kirekire.

Umugabo uri kwitaba terefone afite isuka ku urutugu, inyuma ye hariho ibigori birikumya ubusampfu, ari guseka, yambaye umupira urimo uturongo w' umukara, inyuma y' ibyo bigori hariho ibiti. Ibigori bigiye bihekeranye.

Inkoko ibiri ziri ku gati, hariho inkokokazi n'inkoko z'isake, inkokokazi ifite udukoroko dutoya, isake ifite ibikorokoro byinshi, ziri kureba imbere mu cyerekezo kimwe, zifite amaguru matoya.

Abantu bikoreye ibitebo birimo icyayi, bari kunyura mu nzira . Hepfo y'inzira na ruguru y'inzira harimo ,hahinzemo icyayi . N'abagore bahetse n'abagabo bafite n'imitaka bahetse ibitebo biboheshejwe icyayi bakaba babipfundikije ibindi bitebo.

Icyayi bateye. Abagabo bari mu cyayi bari kugenda basoroma icyayi. Harimo abahetse ibitebo bari kugenda bashyiramo. Abantu, abagabo bambaye ingofero y'umutuku y'urugara harimo n'abandi bagiye bahetse ibisobane mu mugongo. Bari kugenda...

Abantu bari mu murima bari kwaha indabyo. Izo ndabyo zisa n'umweru, ni abagore batatu bari bafite udupaniye bari kwahiramo izo ndabyo, bari kugenda baha rumwerumwe.

Umugore ufite ipombo ari gucucira amazi mu mbuto. Afite ipombo isa n'umuhondo, ari gucucira indabo, yambaye ibitenge, hakurya ye hariho agasozi k'ishyamba.

Ikigori gifite ubusamfu hejuru. Cyegeranye n'umugore uhetse umwana, inyuma y'icyo kigori hariho abantu benshi batonze umurongo, bari kureba icyo kigori.

Amashu agiye akurikiranye, umurongo ku wundi. Agiye akurikiranye ari amashu asa n'ateze. Agiye akurikiranye umurongo ku wundi imbere n'inyuma hose agiye akurikiranye.

Ibigori biri mu murima. Biri mu mirima igiye itandukanye. Bino bigori bigiye bicuciranyije. Harimo ibigori byeze, bifite amababi yumye, bikagira n'andi mababi atumye akiri mabisi.

Umugore uhetse igitebo yipfutse igitenge ari gusoroma amababi y'icyayi .Ari kugenda mu cyayi hari abandi bicaye inyuma ye, nabo bari kugenda bari gusoroma icyayi.

Amashu agiye ateye umurongo k'uwundi agiye aciyemo udutabo. Agatabo kamwe gateyemo amashu abiri abiri agiye akurikirikiranye. ni amashu atari yera n'iho atangiye kubumba udushu.

Imiteja, ikiganza gifite imiteja. Iyo miterere irarambuye ni imiteja miremire, hasi hariho iyindi ihagaze, hirya yaho hariho ibiti by'ibyatsi.

Ibigori bigiye bicukiranye biteye mu murima, bitangiye guheka. Hakurya hariho umusozi w'ibiti. Bigiye bicukiranyije, ikigori ku kindi, biteye ku murongo ugiye utambitse, n'uhagaritse.

Abantu bari mu murima. Abo bantu bari guhinga, bari guhingisha amasuka. Umwe ari guseka urimo hagati yabo. Undi yamanitse isuka, undi yayishyize mu butaka. Inyuma hariho uwundi uri guhinga wunamye, hirya hariho ibindi biti.

Ni akarima k'igikoni kari imbere y'abantu, abantu bambaye udupfukamunwa abandi bafite imbuto mu ntoki, ibitaka birimo imbuto mu ntoki, bakaba bari kureba akarima k'igikoni, imbere yabo hariho ibase y'umuhondo.

Amapapayi ari mu kabase. Ako kabase karimo amapapayi arindwi. Iyo base iteretse hasi ku itaka. Iyo base isa n'umutuku. Ayo mapapayi ntago arashya neza, afite amabara abiri.

Inyana ebyiri ziri konka nyina. Izo nyana ziri kumwe n'umuntu uri kuzonkereza. Izo nka zikaba ziri mu kiraro. Iyo nka ifite umurizo muremure, izo nyana zifite amabara y'umukara.

Ibibiringanya biri ku biti byabyo, bisa n'umutuku, ibibiringanya bifite amababi n'uruyange, harimo ibyeze n'ibitari byera.

Igiti cy'imyembe gifite imyembe isa n'umutuku, hirya ya cyo hariho ibyatsi. Imbere hariho ibindi byatsi. Giteye ku butaka.

Avoka isatuye irimo ikibuto irambitse hejuru y'indi yo hasi nta kibuto kirimo, hejuru harimo ikibuto irasongoye iteganye n'indi birikurebana.

Umurima uteyemo ibihwagari harimo abagore bane, imbere hari ibihwagari bifite uruyange n'uturabo tw'umuhondo , inyuma hariho ibindi bihwagari bitarayanga.

Abagore bari mu murima bari guhinga ari batatu. Umwe yazamuye isuka. Babiri bari guhinga hakurya yabo hariho ibyatsi bipfutse ibitambaro.

Umurima ugiye uteye ku murongo uteyemo amajeri, ayo majeri barayashingiriye imbere hariho umugabo uri gukora ku majeri afite uruyange rw'umweru. Umugabo yambaye umupira w'ubururu.

Umuntu uhagaze mu murima w'ibigori. Ibyo bigori biracyari bitoya, ari kubihingira. Ibigori bifite amababi magufiya inyuma ye hakurya hariho ibiti bigandaye.

Igiti cy'kinyomoro gifite ibinyomoro bigiye bitukuye. Gifite ibitukuye n'ibidatukuye, gifite amababi agandaye, gifite amashami menshi.

Abantu bari mu cyayi bari kugenda bari gusoroma icyayi, bahetse ibitebo inyuma birimo icyayi, bambaye amajire y'icyatsi, harimo abagore n'abagabo, inyuma yabo harimo abandi bagiye babakurikiye bari gusoroma icyayi.

Imbuto barunze ahantu hamwe, imbere hariho intoryi, inyanya, ibitunguru, inyuma ku murongo wa kabiri hariho inyanya, ibidodoki, inyuma hariho za betirave, amapome.

Umuntu uri kuyora ibigori, abifite mu ntoki ze. Iruhande rwe hariho umufuka ari kubikuramo, inyuma ye hariho ibindi bigori bagiye bazirika udupfundo udupfundo, ibyo bigori biziritswe ku biti.

Abantu bari mu murima bagiye bakikije umurima, inyuma yabo hariho intoki, inyuma yaho hari igitoki gifite ibirere kikaba gifite amakoma kikaba gifite igitoki, hariho umugore harimo n'umugabo wambaye umupira w'umukara, inyuma yaho hariho igitoki.

Umugabo ari kwerekana ibintu biri iruhande rwe . Iruhande rwe , hariho ibyatsi. Inyuma ye, hariho ikiraro gisakaje amabati . Afite isaha ku kuboko . Yambaye amadorubindi , n'ingofero y'umutuku . Yambaye n'umupira w'umukara.

Ibirayi birunze hasi ku itaka. Ibirayi bifite amanogo harimo ibibunduguje n'ibisorotse, inyuma hariho agasozi kameze nk'umukingo karunzeho umufuka w'ibirayi, impande y'uwo mufuka hariho abantu batatu.

Udushwi turi gutamba mu ifamu. Hasi harimo imirama n'ibishingwe. Iri kugenda iri gutoraragura. Harimo n'utuntu inyweramo amazi, n'utwo bazigaburiramo ibiryo. Ni udushwi twinshi dusa n'umweru n'umuhondo, turi kugenda turi gutamba.

Igiti cy'avoka kiri mu murima, iki giti gifite avoka zikiri ibiteja, hirya hariho ibindi byatsi byagiye biranda, izi avoka zifite ubunini butari bunini cyane, zifite amashami agiye ashamikiranyije.

Imifuka irimo ibirayi, ibirayi biri mu mifuka miremire ya kilo jana ,iyi mifuka igiye itondekanye, mu nzira harimo umukobwa uri kugenda, iruhande rwabyo hariho ibindi birayi bisutse hasi, hakaba hariho undi mufuka urimo ibirayi bikeya.

Umugabo ari kwerekana igiti cy'imyumbati. Inyuma ye hariho imyumbati binajije, ni aho bahingira imbuto. Inyuma yaho hariho inzu isakaye, ni aho bajya bahingira imbuto bakazuhira, bagakuramo imbuto bakajya kuzitera ahandi mu mirima.

Ibihaza biri ku meza bigiye bitondekanye , igihaza ku kindi. Inyuma yabyo hariho abantu babiri basa n'abari kubitondeka. Harimo umugabo wambaye ishati y'umutuku. Harimo n'umugore wambaye ishati y'umweru. Hirya yabo hariho abandi bicaye bakaba bari imbere.

Intara iriho amasaka, aya masaka agiye arundanyije, harimo asa n'umutuku, ay'umukara, n'ay'umweru. Bayashyizeho barayarundanya.

Ibishyimbo bya Mayizori biri mu mufuka uhinnye ,uteretse ku ihema, iruhande rwawo hariho uwundi mufuka, inyuma yawo hariho n'iyindi mifuka.

Avoka ni igiti bateye mu murima, icyo giti gifite avoka nyinshi, hariho umugabo uri gutema amashami y'icyo giti cy'avoka.

Umunzani uri inyuma y'imifuka irimo imiteja. Imifuka irimo imiteza igiye ikurikiranye, inyuma y'iyo mifuka hariho abantu bicaye bari kuyikoramo.

Umugore ufite impombo iri gucucira amazi mu mbuto, ari kuvomerera amazi ari kuva mu gishanga, afite impombo isa n'umuhondo, hakurya hariho igihuru cy'ishyamba.

Ibigori bihetse, byahetse bigiye bikurikiranye, inyuma yabyo hari ibindi bigori byenda kwera byamejeje ubusezi. Ndani hateyemo, harimo ibyatsi.

Amashu ari mu murima aya mashu ntabwo yari yera, hirya yaho hariho uwundi murima urimo amashu hagati harimo umugenda utandukanyije iyo mirima hakurya hariho amashyamba.

Abagore batonze umurongo, bafite impombo iri gucucira amazi. Umwe afashe hejuru n'undi afashe hasi, bagiye batondetse bari gucucira ibirayi. Hakurya hariho intusi, igitari kirimo intusi zisa n'umweru.

Abantu babiri bafite ishu. Umugore n'umugabo bateruye ishu. Bahagaze mu mashugishu, bariciye mu mashu bahagaze, hakurya yabo hariho ibiti mu mirima myinshi uwo mugabo yambaye ishati y'ubururu, umugore yambaye umupira w'umutuku.

Abantu bagiye guhinga imbere hariho umugore ufite isuka ku rutugu, inyuma ye hariho umugabo nawe ufite isuka ku rutugu, inyuma y'uwo mugabo hariho umusirikare, inyuma y'uwo musirikare hariho umudaso, iruhande rwabo hariho ibigori.

Umurima uhinzemo utubumba tw'ubutaka abantu bagenda bateramo imbuto, inyuma y'abo bantu bari gutera hariho urujya n'uruza rw'abantu benshi bari kureba uburyo bateramo. Umurima bagiye bahingamo utubumba utubumba tw'ubutaka tugiye tuzamuye hejuru.

Umugore ufite urushu mu ntoki, yicaye mu mashu afite n'akandi kaboko kari gukora mu mashu ,yicaye mu murima wayo akikijwe n'amashu ,iruhande rwe n'imbere n'inyuma hose hariho amashu, inyuma ye hariho umurima uteye intusi z'umweru.

Ibishyimbo by'intore bifite imisogwe bimwe birumye ibindi ntabwo byari byuma. Harimo ibishingiriye harimo n'ibidashingiriye, inyuma hariho inzu idafite.

Ibishyimbo bifite imiteja, bifite imiteja itari yakura, ikagira n'uruyange, ifite amababi atoshye, ayo mababi asa n'icyatsi, ni ibishyimbo bigufi.

Ubunyobwa basaruye baranduranye n'imigozi yabwo, bagiye babitera hejuru ubwo bunyobwa bwaragiye buraranda, buracyafunitse mu bihu byabwo, hejuru hariho ibijumba n'amababi yabwo.

Umurima uteyemo soya, soya zireze neza. Izi soya harimo izifite ibititigiri by'icyatsi, harimo n'izindi zifite ibititigiri byumye. Izi soya zifite impeke, izi mpeke zarumye.

Soya zisutse hasi. Soya ziri hasi, hejuru yazo hariho ibase yuzuyemo izindi soya. Izi soya zirumye, hirya y'aho hariho imbaho.

Umurima w'amajeri, umugabo ari kubagarira amajeri. Ni umurima uteyemo amajeri ari kuyanga, afite uruyange rusa n'umweru, umugabo yambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umukara, ari kuyabagarira.

Igihwagari giteye mu murima, gifite amababi agandaye, gifite n'imbuto, ururabo, urwo rurabo ruriho uturabo dusa n'umuhondo, inyuma hariho ibyatsi bigiye bizitiye.

Ibigori biri mu mufuka bigiye bigerekeranye, bagiye babipakingamo, babishyira mu mufuka, inyuma yawo hariho undi mufuka, urimo ibigori nawo uruzuye.

Abagabo babiri bari guhura soya, buri umwe ari guhura ikirundo cye. Iruhande rwa bo hari soya nyinshi ziharunze, hirya hari ikigo cy'amashuri, hariho n'ibiti, indabo, buri wese ari guhura igihuro cye.

Umufuka urimo ibishyimbo, inyuma y'uwo mufuka hariho umugabo usa n'ugiye kuwikorera , iruhande rwabo hariho ibyatsi, inyuma yabo hariho ibiti bigiye bikurikiranye.

Udufuka twa kawunga tugiye tugerekeranye, iruhande hariho agafuka gahagaze n'ahandi hariho akandi gahagaze. Iruhande rwatwo hariho udufuka turimo umuceri dusa n'umuhondo, tuno dufuka dufite amabara hashushanyijeho ikigori inyuma.

Ubunyobwa busutse hasi ku musambi .Bukaba bukiri mu bishishwa byabwo ,bukaba burundanyije ahantu hamwe bwose hamwe.

Umufuka uboheshejwe ubudodo burimo soya, izo soya zifite amaso y'umukara kuruhande hariho uwuzinze ufite impande ibiri ziteranye.

Agafuka karimo impeke, kadodeshejwe ubudodo gafite ibiteranyo bibiri ku ruhande no ku ruhande, karambitse hasi ku butaka, karahinye gafite..

Igihwagari gihagaze gifite amababi agandaye, gifite ururabo ruriho imbuto, n'uturabo muri urwo rurabo harimo igitumba tumba, iruhande rwarwo hariho utundi dutoya duhagaze.

Umurima w'ibigori uteyemo ibigori, harimo ibyumye n'ibibisi barabisaruye nta bigori birimo, bifite amababi yumye harimo n'ibifite amababi mabisi, hakurya hariho agasozi gaciye amatarasi hariho n'ibiti.

Ibigori bitonoye biri ku biti biri ,kureba hejuru baziritse babishyira hamwe bikaba biri mu buhunikiro bwabyo biziritse, bakaba biziritse ku dupfundopfundo.

Ibigori bimanitse ku biti bigiye bigerekeranye, bidatonoye, biri mu ruhunikiro rwabyo. Bigiye bigerekeranye, hasi hari ibigori, hejuru hari ibigori, bisa nk'aho ari ibigori byinshi cyane.

Ibishyimbo biri mu kabakure by'amabara harimo ibishyimbo bisa n'umukara n'umweru, ni ibishyimbo birunze ahantu hamwe ni ibishyimbo bisa n'umutuku n'umweru ibishyimbo byumye.

Umufuka baboshye bakawushyimo soya. Soya ziri mu mufuka uhinahinye bawuteretse hasi, uwo mufuka urimo soya zisa n'umweru, zifite amaso asa n'umukara n'umweru.

Ubunyobwa bakuye bakaburambika hasi buri kumwe n'imigozi bwado mu bunyobwa bugiye burambitse mu dutumutuntu ni bwinshi cyanefite imigozi zisa n'icyatsi ukagira utujumba dusa n'umweru.

Ibigori by'amabara barabitonoye babishyira ahantu hamwe barabitondeka ,bigiye bifite amabara atandukanye, harimo ibifite amabara y'umukara ay'umweru, nibyo bita mayizori.

Ubunyobwa buri hejuru ku butaka, ubwo bunyobwa bufatanye n'ibijumba bifite n'ibititigiri, ubwo bunyobwa ntabwo bari babukuraho imbuto buracyari kumwe n'ibijumba n'imigozi yabwo.

Virope iteretse mu bunyobwa, irimo ubunyobwa, iruhande rwabwo harimo hariho akantu, akayoresho bayoresha ubunyobwa ,n'ubundi imbere yaho hariho ubunyobwa butonoye, inyuma hariho, inyuma ya vilope hariho ururabo.

Ibigori birunze ku ihema. Ni ibigori byinshi bigiye birunze umutagutagu. Ibya mbere birarundanyije, ibindi birasanjije. Hirya harimo abantu bari kugenda bari ku byanika. Ibyo bigori byanitse ku mahema, hirya hariho inzu n'urutoki.

Ibigori bimennye hasi, iruhande rwabyo hariho iyindi mifuka iriho ibigori, ibyo bigori bifite ibara ry'umuhondo, iyo mifuka irimo ibigori harimo ifite amabara y'icyatsi, n'umweru, ni imifuka ine.

Umuceri utari wera w'intonore usa n'icyatsi. Uwo muceri ugiye utondekanye n'undi muceri. Hejuru ufite utwerezwa.

Ibishyimbo biri ku ntara, umukobwa ari kubisuka. Ibindi biri ku ntara ebyiri, ari kubirunda ku yindi ntara, ari kubigosora.

Amajeri, ari hasi ku butaka . Hariho atonoye n'adatonoye . Ni amajeri y'intonore. Ku butaka, hariho adatonoye, n'atonoye , anyanyagiye hasi . Ayo majeri, asa n'icyatsi .

Abagabo babiri umwe ari guterura ibyuma, bari inyuma y'ubuhunikiro bw'ibigori. Inyuma hariho ibigori byinshi cyane, bigiye bikurikiranye, bigiye bifunze butumo butumo.

Imodoka ipakiye imifuka, iyo modoka harimo umwe uri gupakurura, hasi hariho abandi bantu batatu, hirya y'imodoka hariho abandi bantu bari kugenda. Iyo modoka iparitse mu muhanda.

Ibigori bifite amabara atandukanye ni ibigori bya nyamabara, ni ibigori batonoye barangije barabizirika harimo ibifite amabara y'umutuku, ay'umweru, ay'umukara n'andi y'umuhondo.

Umurima uhinzemo umuceri, umuceri ufite imiceri hejuru ufite ni mu gishanga mu muririma munini cyane hirya y'aho hariho iyindi mirima iteyemo umuceri.

Imifuka irimo, yuzuyemo ibiheri, iyi mifuka harimo iyacitse, hasi hariho ibindi birunzeho. Imifuka isa, ifite amabara abiri iry'umweru n'iry'icyatsi. Hirya ni imifuka itanu, igiye itondekanye.

Inzuzi ziri mu gitebo, iruhande rw'igitebo hariho igihaza, hasi y'igihaza hariho inzuzi ziri hasi, iruhande rw'igitebo hariho utuyuzi dukeya.

Ibishyimbo by'imiteja bifite uruyange rusa n'umutuku. Bifite n'amababi agandaye. Bino bishyimbo bigiye bisobekeranyije.

Ingano, ingano ziri, ziri kumwe ,umuceri uri kumwe n'ikawa, ikawa iri kuva mu mufuka, izo kawa ni nyinshi zirunze ahantu hamwe, n'umuceri urunze ahantu hamwe.

Amasaka baciye bakaba bayashyize hasi, aya amasaka aratukuye areze, ni amasaka atatu arambitse ahantu hamwe afite udutumba tumba, afite n'impeke zisa n'umutuku.

Ibishyimbo biri mu gasorori. Ni ibishyimbo by'amabara. Harimo ibishyimbo bisa n'umutuku, harimo n'ibindi bifite ibara ry'umutuku n'iry'umweru. Biri mu kabakure. n'ibishyimbo batera bikera vuba.

Isaka rihagaze risa nkaho ritumye neza , inyuma hariho ay'andi atari yera , iruhande rwaryo hariho n'irindi ritari ryera neza , inyuma hariho andi masaka agiye akurikiranye.

Ibigori bimanitse mu ruhunikiro rwabyo , bigiye bitondekanye igiti kimwe kiriho ibindi biti bitambitse. Icyo giti gitambitse, kiriho ibigori biri, mu nzu isakaje amabati , arimo n'urugi rusa n'ubururu .

Ibigori bashyize ahantu hamwe bagiye babirunda ku biti bitambitse, ni ibigori bigiye bihekeranye hariho ibiti bitambitse, ibyo biti bitambitse bagiye bashyiraho ibigori ni ibigori byumye bifite amababi agiye apfundikanye n'ibindi.

Umugore uri mu murima w'amasaka, ari gukora ku masaka aya masaka harimo ayeze, ayeze asa n'umutuku. Yambaye umupira w'ubururu, hirya y'umurima hariho ishyamba ry'ibiti.

Igishyimbo giteye mu butaka, iki gishyimbo gifite imiteja miremire, hariho n'amababi agiye agandaye. Hirya y'icyo gishyimbo hariho ikindi gishyimbo, iki gishyimbo gifite n'uruyange rusa n'umweru.

Amasaka bafashe bayarunda ahantu hamwe bakora mpande enye, metero kuri metero harimo amasaka asa n'umutuku, hakaba harimo n'amasaka asa n'umweru apanze ku biti hejuru, hasi hariho ibiti, hejuru hariho amasaka barunzeho, hirya hariho ibiti bya shipuri.

Amasaka yumye ari mu kibara agiye acukiranye, yareze aruma ntibayasarura. Agiye acukiranye isaka ku rindi. Inyuma yayo hariyo ibyatsi.

Unyobwa bakuye bakaburambika hejuru. bufite ibijumba bisa n'umweru bifite n'ibigozigozi bisa n'icyatsi. Babikuye babirambika ahantu bagenda babyegeranya, bifite ibijumbajumba by'icyatsi.

Imiteja iri mu gatebo , amababi y'ibishyimbo ari gukora muri iyo miteja iri muri ako gatebo , hirya ya gatebo hakikijwe ibishyimbo bifite amababi.

Umurima uhinzemo imitabo miremire. Harimo abantu bambaye imyenda y'ubururu bari kugenda bari kubikorera. Buri murongo uriho igiti. Ni ibinyomoro bateyemo.

Amasaka ari mu murima, amasaka asa n'umutuku areze, rimwe ryaragondamye agiye acukiranye, harimo ayeze, harimo n'ateze, inyuma hariyo ishyamba.

Ubunyobwa buri ku nkoko ni ubunyobwa busa n'umutuku, ni ubwimpeke kuruhande rwabwo hariho ifu ibese hirya hariho umukeka.

Umugore uri guhereza umugabo ibigori, ibigori umugabo ari kubimanika mu buhunikiro, bimwe biri mu mufuka, umugore ari kubikura mu mufuka akabihereza umugabo akabitondeka ku murongo.

Abagore bari mu murima bafite ibyatsi baranduye babifite mu ntoki, ni abagore batatu imbere yabo hariho isaka riri guterera, bahagaze mu byatsi inyuma yabo hariho ibigori biri guterera.

Umuceri ufite impeke zumye, uwo muceri usa n'igitaka inyuma hariho undi muceri. Ni umuceri wumye uri mu murima, uwo umuceri uteye mu murima.

Umufuka w'ibishyimbo urimo akantu badahisha, imbere yaho hicaye abantu ,hirya hari abagabo bari gushyira ibirayi mu mufuka, abandi bafite amaronji mu ntoki.

Umugore ari kuyobora ibigori abishyira mu ndobo afite akayorezo, inyuma ye hariho undi uri kuyobora nawe ibigori, ibyo bigori bisutse hasi ku ihema.

Inzuzi ziri ku butaka, zigiye ziri kurebana, zicurikiranye. Bazishyizeho, zigiye zireba imbere n'inyuma, zisa n’umweru.

Imifuka ibiri irimo ibishyimbo bisa n'umukara, umufuka wa mbere urimo akayoresho, undi w'iruhande rwawo urimo ibishyimbo by'umukara ,inyuma yayo hariho undi mufuka.

Igishanga bateramo umuceri, baragihinze bagenda bahinga mpande enye, bakamera nk'aho bari guhinga mu cyobo, nta muceri bari bateramo.

Ibishyimbo bari kubiyora, ni ibishyimbo bifite imishogi yumye, ibyo bishyimbo inyuma hariho umuntu uri kugenda, ibyo bishyimbo bisanjije ku ihema ry'ubururu, ni imishogi miremire y'ibishyimbo yumye.

Ikawa iri mu ibase harimo n'ako kuyoresha ikawa. Ikawa iri mu ibase y'ubururu, hirya inyuma y'ibase hariho iyindi kawa iharunze, muri iyo basi harimo agasorori, akabakure karimo izindi kawa.

Imiteja igiye ipfundikanye umufungo ku mufungo. Bayigeretse hejuru y'iyindi. Muri iyo miteja hariho agasahani kariho ibishyimbo byumye bigiye bitandukanye. Iyo miteja ifungishije akantu k'umuhondo. Ni imiteja igiye ifunze umufungo ku mufungo.

Amasaka ari mu murima agiye atandukanye, harimo amagufi n'amaremare, harimo amasaka yeze n'ateze, harimo amasaka afite impeke zisa n'umutuku, ayandi afite izisa n'icyatsi ni amasaka ateye mu murima agiye akurikiranye.

Ingurube ziri mu kiraro, ni ingurube zibyibushye cyane zifite inyuma hanini, ni ingurube z'inshashi zikaba ari ingurube itatu zose zifite uruhu rusa n'umweru ziri mu kiraro ziri kunywa ibiryo.

Inka zifite amabara, zifite amahembe, harimo izifite ibara ry'igitaka, harimo inka ziryamye, izindi ziri kureba iruhande, izindi kureba imbere, ziri mu byatsi ziri kureba hejuru.

Agatavu k'inka kari kurisha utwatsi gahereneranye na nyina, gafite amabara abiri iry'umweru n'iry'umukara, nyina nayo iri inyuma y'akana kayo, ifite amabara abiri, ziri mu kiraro.

Umugabo ari kugaburira ingurube mu kidomoro. Ari kuyiha ibyo kurya, ingurube iri mu kiraro, icyo kiraro cyubakishijwe n'imbaho gisakaje amabati.

Ingurube iri mukiraro, iri kurya ibiryo . Iri gukoza umunwa mu kibehe ,iruhande rwacyo hariho umugezi. Ni ingurube.

Ingurube ziri mu kiraro, muri icyo kiraro harimo umuntu uri kugenda ari kuzikoraho. ingurube zifite amatayi, n'umuntu ufite inda nini, yambaye umupira w'umutuku.

Amagi ari mu matureyi agiye atondekanye ku murongo, ni amatureyi aba arimo amagi, aya magi harimo asa n'umutuku atari cyane, n'agiye gusa n'umweru ni amatureyi menshi ,ni amagi bapashije ahantu.

Imbwa abantu barazifite, baje kuzigura no kuzigurisha. Batonze umurongo. Buri muntu afite imbwa. Afite n'umugozi wayo. Bamwe bazifashe mu ntoki. Ni urujya n'uruza rw'abantu baje mu isoko kugura imbwa.

Ingurube iri mu kiraro ifite amabere atandatu, ifite n'amabara y'umweru, n'umukara iri mu kiraro, imbere yayo hariho akana kayo, gafite na ko amabara y'umukara n'ay'umweru, hari umuntu uri kuyikora ku munwa.

Inkoko ziri mu kiraro cyazo harimo inkokokazi, harimo n'amasake, ifite ibikokuru byinshi iruhande rwazo hariho agatanu, ubutanda busakaje ikiraro ziri mu hakaba harimo n'ibyo zinyweramo amazi.

Umuntu ari guhereza inkwavu ibyatsi. Intoki ze ari gufata ibyatsi akabihereza inkwavu. Ni inkwavu eshanu zigiye ziri kurebana, zifite amatwi maremare, zikagira n'amabara y'umweru n'amabara agiye gusa n'umutuku. Ziri mu kibuti.

Iyi busheri irimo inyama zimanitse zigiye zikurikiranye, ni inzu isakaye irimo ibyuma , ibyo byuma harimo ibyo bimanitseho inyama.

Inkokokazi iri kumwe n'isake bihagaze ku gati, inkokokazi isa n'umutuku ifite ibikorokoro n'isake yayo, isake iri iruhande rwayo ifite ibikorokoro, inyuma ya yo hariho umwijima.

Ibibwana by'ingurube biri konka nyina. Nyina iraryamye, birikonka, buri ngurube iri konka ibere rya yo. Ni ibibwana bitandatu.

Inka irasamye, ifite amaherena ku gutwi ,indi iri ruhande rwayo imbere yayo hariho ibyatsi ,iri kwabira.

Ifamu y'inkoko, iyi famu y'inkoko irimo umuveterineri, yambaye imyenda y'icyatsi, izi famu harimo inkokokazi, umugabo w'umuveterineri urimo ari mu cyumba cyazo, ateruye inkoko imwe, zose ni inkoko harimo n'amasake.

Inka iri kurisha ibyatsi, ifite ibihembe binini, ifite amabara avanze, harimo umweru n'umutuku, ihagaze mu kibara cy'ibyatsi, inyuma yayo hariyo ibiti birebire, ifite umurizo, ifite ubwoya, iri kurya ibyatsi.

Inka ziri imbere, inyuma y'abantu bafite inkoni, inka zifite amahembe, zigiye zishoreranye, imbere yazo hariho umwe, umugabo umwe wambaye isurubeti y'ubururu ,iruhande rwe hariho umugabo wambaye ishati itukura, hakurya yabo hariho abandi batatu.

Inka y' imbyeyi iri mu kiraro, iri kurya ibyatsi, ifite amabara abiri iry'umutu, iry'umweru, ifite amatwi, nta mahembe ifite, inyuma yayo hariho ibiti by'ikiraro.

Inka ziri mu kibara ziri kurisha ibyatsi. Zifite amabara atandukanye. Hariho izifite amabara y'umweru n'umukara, hariho izifite umukara gusa. Imbere yazo hariho abantu bari kuzireba. Zirimo n'imirunga.

Ingurube ziri kurya ibiryo mu kavure, ni ingurube eshanu, ziri mu kiraro zihagaze hasi. Inyuma hariho umuntu ufite rozwari. Izo ngurube zirabyibushye zifite uturi, harimo ibipfizi n'ibishashi ,zifite uturizo twihinahinnye.

Inka iri mu kiraro iruhande rwayo harimo hariho abantu babiri. Inyuma y'iyo nka hariho umuntu wambaye umupira w'ubururu, inyuma imbere y'inka hariho umuntu umuveterineri uri kuyivura ufite n'inkoni, iyo nka irazitse.

Umuveterineri ari kuvura inka, ari kuyikora mu kizete cyayo, yambaye agapfukamunwa gasa n'umweru, iyo nka iri mu kiraro, hirya hariho agashyamba k'ibyatsi.

Inka ifite iherena, iyi nka bari bagiye kuyitera urushinge, iyi nka ifite ibara risa n'igitaka, ifite ubwoya bwinshi hejuru ku mahembe, ifite agahembe gatoya.

Imbwa baziziritse, izi mbwa ziziritswe mu ijosi baziziritse n'imirunga y'umweru, hirya yaho hari n'izindi ziziritse ku giti hirya yaho hariho n'abandi bantu bazifite.

Inkokokazi iri kugenda iri kuraha, ifite ibirokoroko by'umutuku, ifite amababa manini, iri ku butaka, iri kugenda iri kureba imbere.

Inkokokazi z'imishwi ziri aho zororerwa mu kibuti harimo izirimo ziryamye harimo n'izihagaze, izo nkoko ziri mu kibuti cyazo nyuma harimo amatara ari kwaka.

Iyi nka iri kurya ibyatsi, iri mu kiraro hasi harimo ibyatsi. Ifite amabara abiri, ifite ibara ry'umweru n' iry'umukara. Hirya yayo hariho insina ifite amakoma.

Inkwamvu zirundanyije ahantu hamwe. Harimo inkwavu zisa n'umukara, harimo izifite amatwi y'umweruru, urufite amabara y'umweru, harimo izifite umunwa w'umukara n'amatwi y'umukara, harimo n'izifite umukara gusa.

Ifite amahembe ari kurebana, inyuma yayo hariho inka ifite amabara y'umweru n'ay'umukara. Iyi nka y'imbere ifite ibara rimwe rigiye gusa n'umutuku. Izi nka ziri kurisha ibyatsi mu gishanga.

nka iryamye imbere y'abantu ni abaveterineri hariho n'ikidomora cy'amazi, inka ifite ibara ry'umukara, iryamye hasi mu byatsi, ikikijwe n'abantu benshi.

Umugore ari guha inka ibyatsi mu kibehe cyayo, afite ibyatsi mu kaboko k'ibumoso, imbere ye hariho umufuka w'ibyatsi. Inka ifite amabara y'umweru n'ay'umukara.

Abantu babiri baba veterineri bari mu kiraro cy'inka, umwe ari kuyivura ari kuyitera urushinge, undi ayifashe amaguru, ayifashe mu mugongo, hirya yayo imbere y'iyo nka hariho undi muntu.

Inka y'imbyeyi iri kumwe n'indi nka zifite amahembe maremare, iy'imbere isa nk'ibara rigiye gusa n'umutuku, inyuma hariho inka ifite amabara asa n'umukara ,iruhande hariho ibiti ni ikiraro izo nka zi.

Abaganga bari kurebana, bambaye ibiteteyi bambaye agapfukamunwa n'udupfukamunwa tw'umweru, ni abaganga bane bambaye n'ingofero n'amadarubindi.

Inka ziri kurya ibyatsi. Izi nka harimo izifite amabara y'umukara, ay'umweru, hariho inka ifite ibyatsi mu kanwa, ikaba iri kureba imbere. Ziri kurira mu kivure.

Utwana tw'urukwavu turi kurya ibyatsi. Ni udukwavu dutanu dufite amaso y 'umukara, dufite amatwi maremare, dusa n'umweru, tugiye turi kurebana.

Intama n'ihene ziri kugenda mu muhanda. Zigiye kurisha ibyatsi mu ishyamba. Inyuma ya zo hariho umwana ugiye kuziragira. Imbere ya zo hariho ihene iri kurisha.

Iyi nka iri kurisha hasi ku butaka. Inka ifite itereye umurizo hejuru, ifite akabara k'umweru mu gahanga. Ifite iherena ku gutwi. Hirya hariho umuntu uri kuyiragira, inyuma hariho ikigega cy'amazi, inyuma yaho hariho ibiti birebire.

Inka iri kureba imbere. Inyuma y'iyo nka hariho izindi nka ziri kurisha mu byatsi. Iyi nka ifite amabara menshi ay'umweru, ay'umutuku, ifite amahembe, ihagaze mu byatsi.

Inkoko za dendo ziri kunywa amazi mu muvure , izi nkoko zifite umunwa w'umweru, zifite amabara y'umukara, zifite amaguru magufiya, ziri mu kibuti cyazo.

Ingurube ziri mu nzira, ku mbuga haruguru y' urugo; hepfo yazo hariho inzu isakaje itegura, kuri iyo nzu hariho igiti cy' imishipuri, hepfo yaho hariho ibiraro by' ingurube, imbere y' iyo nzu hariho ibindi.

Akanyana gatoya kari mu kiraro. Inyuma y'ako hazitijwe ibiti. Gafite amabara abiri. Iry'igitaka n'iry'umweru. Inyuma kakubiseyo ukuguru, gasa n'akafashwemo. Inyuma yako hariho ibyatsi biteye.

Imvubu iri mu mazi yasamye, ifite icyinyo gisongoye ifite n'akarimi karekare. Urunwa rwayo rwazamutse hejuru, ifite amaso akanuye aturumbutse. Ikagira n'udutwi dutoya, iri mu mazi.

Akabata gatoya kari koga mu mazi. Gafite umunwa usongoye, gafite amabara y'umuhondo mu mutwe, gafite n'andi mabara y'umuhondo mu mababa yako, kari kugenda kari koga kabundi.

Ikigona kiri ku gatabi k'igiti, gifite amabara, mu nda ibara ry'umweru, amababa ni umukara, umunwa nawo ni umukara mu ijosi ni umweru ,ifite amaguru maremare n'inzara ndende.

Imvubu iri mu mazi iri iri kumwe n'utwana twayo tubiri, ziri koga mu mazi zifite urutwe ifite urutwe runini n'uruhimba runini, ifite uruzuru n'urunwa binini ifite udutwi dutoya.

Inguge iri mu biti, irikuba ifite ibyoya by'umukara, iri mu ibiti amashami y'ibiti arayikikije, hariho n'igiti kigiye gukora ku gutwi kwayo.

Inyoni ihagaze hasi. Ifite amabara atatu. Ibara ry'umweru, n'iry'umukara, n'iry'igitaka. Ifite umurizo muremure. Ifite amaguru atari maremare cyane. Ifite n'umunwa utari muremure. Ifite amaso asa n'umukara.

Maguge iri mu giti, irikureba imbere muri icyo giti cy'umugano. Hejuru niho iri, niho ihagaze.

Urukwavu rwo mu ishyamba rurahagaze, ruhagaritse amatwi. Ruri mubyatsi, ruri kureba aho ruri kwerekera. Rufite akarizo gasa n'umweru, rufite amabara y'ikijuju, rufite amaso y'umukara.

Inzoka yizingazingiye hasi, ifite amabara abiri, iry'ubururu rigiye gusa n'umukara, ni ry'umweru, yizingazingiye mu byatsi, hejuru yaho hariho icyatsi.

Nyirabaraza iri mu gishanga, imbere yayo hariho amazi, ihagaze mu byatsi, ifite umunwa usongoye, ifite ijosi rirerire, ifite n'amababa menshi. Hakurya hariyo amazi n'ibyatsi,..

Inyoni ya matene ihagaze hejuru ku gasongero k'igiti, icyo giti ni umuvumu. Uwo muvumu ufite udushami twinshi tugiye dushamitse. Inyoni ifite umurizo muremure cyane, ifite ibara ry'umuhondo mu nda, ifite umusatsi hejuru.

Imbwa iri kwirukanka cyane iri kwiruka mu ishyamba, iri kugenda ikandagira ku biti. Inyuma yayo hariho ishyamba ry'ibiti. Ifite ibara ry'igitaka, ifite amaguru maremare, ifite n'ijosi rirerire. Iri kwirukanka iri kureba imbere yayo.

Inyoni iri kujya gushaka utwuki mu gicumucumu. Iki gicumucumu gifite uturabo hejuru dusa n'umutuku ,hirya hariho n'ikindi gifite amababi atandukanye.

Isatura iri kugenda mu ishyamba. Isatura ni itungo ryitwa ingurube yo mu ishyamba. Iteye nk'ingurube, ifite amabara y'umukara. Ifite n'umunwa muremure, hirya hariho ishyamba ry'ibyatsi.

Inyoni ibiri ziri ku giti kimwe, imwe ifite amabara abiri, iry'umukara, n'iry'umutuku, n'iry'umuhondo, rifite ifite umunwa usongoye w'umutuku, iyindi ifite amabara atatu, harimo umuhondo, umuhondo, umukara n'umweru.

Ibisiga bibiri bihagaze mu biti birebire by’imikunde. Biri kureba hejuru, ibiti bigiye bishamikiranye igiti ku kindi. Ibisiga bihagaze hejuru ku gashami karekare.

Inyoni iri ku gashami k'igiti, icyo giti gifite amashami menshi gifite ibishami bigiye bigerekeranye. Iyo nyoni iri kureba iruhande ifite amabara abiri, ifite umunwa usa n'umuhondo ayo mabara hariho irisa n'umweru n'umutuku.

Agaca karikureba gafite umunwa w' umuhondo, kakagira ijisho risa n' umuhondo, gafite umunwa wigoronzoye, gafite amababa asa n' umukara. Inyuma yako hariho ibyatsi n' amaguru ari kugaragara.

Inzovu iri mu kibara cy'ibyatsi. Ifite amahembe, umugara, ifite n'amaguru abyibushye, ifite n'amaboko abyibushye, ni nini.

Dendo iri mu byatsi, irabundaraye, ifite amababa manini, ifite amabara abiri, iry'umweru, n'iry'umukara, ifite akajosi karekare, iri mu murima w'ibyatsi.

Igikeri kiri kirabundamye mu myanda, aho kibundamye hariho utwatsi, gifite uduheri ,gisa gifite amabara menshi, kirakanuye, cyabundamye gifite uruda runini.

Inyoni ihagaze ku gitabi cy' igiti ifite amabara atatu, iry' umukara, iry' umuhondo ni ry' umutuku. Iyi nyoni hasi yayo hariho akandi gatabi k' igiti gasa n'icyatsi.

Inyoni iri ku giti ihagaze iri kureba imbere yacyo, ifite umunwa usongoye, ifite amabara abiri iry'umuhondo n'iry'umukara. Hirya hariho umurunga uziriritse iruhande rwayo.

Igishuhe kiri ku itaka, inyuma yacyo hariho ibyatsi, gifite amabara y'umweru nay'umukara, gifite umunwa usongoye, gifite amaso y'umukara kikagira n'amaguru magufi.

Inyoni yitwa inyange iri mu byatsi hasi, ifite ibara ry'umweru, ifite n'umunwa usongoye, ifite ijosi rirerire cyane, hirya yayo hariho ibyatsi birebire.

Injangwe ifite amahembe ateganye. Ifite amaso akanuye, ifite amabara abiri, irigiye gusa n'umweru, harimo n'irigiye gusa n'umukara, n'irigiye gusa n'igitaka. Ni injangwe iri kureba imbere.

Agaca gahagaze hejuru y'igiti, gahagaze ku itabi. Gafite amabara atatu: iry'umweru, rigiye gusa n'umutuku, n'iry'umukara.

Umugabo afite igikeri. Inyuma ye hariho inzu y'imbaho. Yakirambuye cyapfuye.

Iri ku gashami k'igiti , icyo giti gifite amababi agiye agikikije ni igiti gifite amashami menshi , icyo giti gifite uburebure.

Icyana cy'ingagi kiryamye muri nyina, nyina aragisigatiye. Gifite ubwoya busa n'umukara, na nyina ifite ubwoya busa n'umukara, biryamye mu byatsi.

Inyoni iri ku giti ifite umunwa usongoye, hejuru yayo hariho ibiti no ku ruhande hariho ibindi biti. Iri hejuru mu ishami iryo shami ni rinini. Haraguru y'inyoni hariho utundi dushami duto duto, ifite amabara asa n'umweru n'umukara n'ubururu.

Akanyamasyo kari kugenda mu nzira, inzira kari kugendamo harimo ibyatsi, gafite ibara risa n’umweru n'umukara, hirya y'ako hariho ibiti, gafite agatwe gato.

Nyirabaraza iri mu byatsi byumye, mu muceri wumye. Ifite umunwa muremure, ifite amaguru asongoye, ifite amabara atatu. Iry'umutuku n'iry'icyatsi n'iry'umukara. Hirya hariho amazi.

Imbata iri imbere y'inka, iyo nka iri hagati, inyuma y'iyo nka hariho iyindi mbata. Imbata isa n'umweru, inka ifite ibara ry'igitaka, ifite iherena ryanditseho ibihumbi bitatu magana abiri na makumyabiri n'ikenda.

Injangwe ihagaze ku giti iri kureba imbere. Inyuma hariyo andi mashami y'ibiti. Ifite amabara y'umweru, ay'igitaka, inyuma yayo hariho ibindi biti.

Nyirabaraza iri hejuru y'amazi, ihagaze hagati y'amarebe, hakurya hariho amazi, ifite umunwa usongoye, ifite n'amaguru aso maremare, ikagira n'amabara y'umukara.

Inyoni y'umusure iri kurira ku giti cy' ikivumu, ifite umurizo muremure, ifite agatwe gasongoye, ifite umusatsi w'umutuku, ifite mu ijosi hasa n'umweru.

Inkoko za dendo ziri mu byatsi zirahagaze. Ibyatsi bir gukora ku mababa yazo. Zifite uturokoroko dutoya. Zifite amabara y'umweru n'ay'umukara. Ni ebyiri imwe iri kureba hejuru yakuruye umujosi indi iri...